Abagabo bicaye bazengurutse n'imeza ikozwe mu rubaho, imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa, bigaragara yuko bari mu nama itandukanye.

Abantu bicaye bazengurutse ameza ariho igitambaro cy'umukara bafite mudasobwa mbere yabo bigaragara yuko bari mu nama.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ibishushanyo ndetse n'andi mabara atandukanye, handitsweho amagambo yiganjemo umukara, ay'ubururu ay'umweru ndetse akaba ariho agashushanya ka mudasobwa, hariho n'andi mabara atandukanye y'umutuku, ubururu ashushanyijemo inyoni y'umweru ndetse hakaba ashushanyijeho amabara y'ubururu, umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi y'ibendera ry'u Rwanda.

Umugabo uhagaze imbere kuri alitali n'abandi benshi bicaye bigaragara y'uko bari mu birori cyangwa se ibitaramo bigiye bitandukanye by'umuco.

Umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara, ahagaze imbere y'abandi benshi bicaye ku ntebe zirabura, bigaragara yuko ari kubagezaho ibiganiro bitandukanye.

Itente irimo intebe yisumbuyemo n'abantu bahagaze bambaye imipira isa bari gukoma amashyi bareba imbere yabo.

Abagabo bicaye mu ntebe z'umukara, bazengurutse ameza ariho mudasobwa bahindukiye bareba imbere bigaragara yuko bari mu nama.

Abari n'abategarugore bicaye ku ntebe z'umweru ameza abari imbere yambaye ibitambaro byera bigaragara yuko bari mu mahugurwa runaka.

Abagabo bicaye, bambaye amakote meza, ku ntebe z'imikara, imbere yabo ameza afite ibitambaro by'umweru, bigaragara yuko hari imihango baje gusoza cyangwa gutangira.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umutuku, undi wambaye ikote ry'ubururu bwijimye uhagaze afite indangururamajwi, uko bisa bari mu mahugurwa cyangwa se ibiganiro.

Abagabo n'abasore bicaye ku ntebe z'imikara bose amaso ari kureba ahantu hamwe bigaragara yuko imbere yabo hari uwo bakurikiye.

Umugore uhagaze yambaye imyenda irimo ibara ry'umukara afite indangururamajwi mu ntoki, ndetse n'urupapuro. Inyuma ye hari abantu benshi bicaye mu matente bigaragara yuko bari mu biganiro.

Abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko basa nkabakuze kandi barishimye bahuje urugwiro, bari kuganira higanjemo abagore ndetse n'abagabo n'urubyiruko.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ibirahure mu maso, afite indangururamajwi mu ntoki y'umukara, bigaragara ko hari ijambo arimo arabwira abandi bamushagaye.

umugabo wambaye ikote iki kuba mu maso yafashe kugo mukize yarimo indangururamajwi bigaragara y ari ibiganiro ari kugeza ku bantu

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'isaha ku kaboko, ibirahuri by'amaso, ahagaze imbere y'abandi bantu bicaye bari kwandika ku mpapuro, uko bisa bari mu nama.

Abantu bicaye ku meza hari amacupa y'amazi bose bareba imbere bigaragara yuko hari ibiganiro cyangwa se inama barimo barakurikira.

Abantu bicaye ku ntebe zikaraga bazengurutse ameza ariho uducupa tw’ amazi, bahindukiye bareba uruhande rumwe bisa nkaho bakurikiye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru abandi bahagaze inyuma yabo hakaba haparitse ibikamyo binini bikaba bigaragara yuko hari ibiganiro bakurikiye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, bazengurutse ameza, bigaragara yuko bari mu nama runaka itandukanye, bakaba abayobozi.

Umugabo wambaye ishati y'ibara rya roza, ahagaze imbere y'abantu benshi bicaye mu ntebe z'umukara, bigaragara yuko bari mu nama.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umweru wambaye ikote n'ipantaro by'umukara ishati y'umweru ibirahure by'amaso, afite indangururamajwi mu ntoki ze bigaragara yuko hari ibiganiro cyangwa ubutumwa ariko kugeza ku bantu.

Umugabo wambaye ishati y'umukara yicaye ku ntebe yirabura afite indangurumajwi mu ntoki ze arimo arageza ijambo ku bandi benshi bicaye inyuma ye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara harimo abambaye amajire y'umuhondo, bafite amacupa y'amazi bigaragara ko bari mu nama.

Abagabo n'abagore bicaye bazengurutse ameza ariho amacupa y'amazi, bigaragara yuko bari mu nama runaka.

Abaturage benshi bicaye mu ihema ryitatswe n'amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu bari ku ntebe z'umweru bigaragara y'uko bari mu biganiro.

Abamama batatu bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza hateretse amacupa y'amazi, bafite impapuro n'amakaramu mu ntoki zabo, bari kureba imbere basa nk'aho bari mu nama.

Abagore babiri n'umugabo umwe wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'imirongo, ibirahure mu maso, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari amakaye n'amakaramu, bigaragara ko bari mu nama.

Abagabo n'abagore benshi bicaye ku ntebe z'umukara hagati yabo bakazengurukamo, ameza ariho amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi ya na mudasobwa bigaragara yuko bari mu nama.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara barimo barareba imbere yabo uko bisa hari umuntu bakurikiye uri kubagezaho ibiganiro runaka.

Umugore wambaye imyenda irimo umukara, umweru, umutuku n'ibirahure mu maso afite indangurura majwi mu ntoki ze, inyuma ye hari icyapa kibwiriza abantu kwirinda sida.

Imbuga irimo imodoka y'umukara iri gukata hirya, imiryango ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye iby'ibiryo ndetse n'iby'ibyo kunywa.

Abagabo, abasore bicaye ahantu, bamwe bari gukoresha mudasobwa na terefone uko bisa bategereje akazi runaka cyangwa se igikorwa.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe z'umukara bambaye amashati y'umweru imbere yabo hari ameza ariho mu dasobwa barimo barazikoresha bazigiraho.

Umuhanda mugari urimo baragendamo ipikipiki iheritse igikarito cy'icyatsi ku ruhande hari amatara maremare yaka iyo igihe cy'ijoro kigeze.

Umurima uhinzemo imyumbati n'ibigo ushinzemo ipoto ndende ishamikiyeho insinga z'ijyana umuriro w'amashanyarazi mu mazu y'abaturage.

Abantu bahagaze bambaye amajipo y'umukara bari munsi y'umutaka w'umuhondo ba bigaragara yuko aha hakorerwamo.

Ikigo gishinzwe gutunganya umuriro w'amashanyarazi, aha hari ibyuma by'urugomero rw'amazi.

Ahantu haparitse imodoka nyinshi zo ku muganga, twita imbangukiragutabara bigaragara yuko aha ari ku bitaro bitandukanye.

Imbuga ihagazemo imodoka z'ubwoko butandukanye harimo n'izikoreshwa kwa muganga mu rwego rw'imbangukiragutabara zitwara abarwayi.

Ibyapa bibiri kimwe kiri mu ibara ry'ubururu ikindi gisa icyatsi ariko kikaba gishushanyijeho ikimenyetso k'ijisho bigaragara yuko hakorerwa ubuvuzi bwayo.

Umugabo usa nk'ukuze, wambaye ibirahure by'amaso, imyenda irimo ibara ry'umutuku n'umukara n'umweru, bigaragara ko ashobora kuba akora mu rukiko.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ibirahure mu maso afite icupa ry'amazi mu ntoki, inyuma ye hari ushinzwe umutekano bigaragara yuko yakoze ibyaha agiye guhanwa.

Abagabo n'abagore bambaye neza, bicaye ku ntebe z'imikara bari kureba imbere bigaragara yuko bari mu nama, bo bakaba abayobozi bagiye batandukanye.

Umugabo wambaye imyenda yabashinzwe umutekano afashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda yazamuye akaboko asa nk'aho arimo ararahira.

Abagabo bicaye bambaye imyenda y'umutuku utugofero n'bandi bahagaze bafashe ku mada rapo y'igihugu cy'u Rwanda, bazamuye amaboko bigaragara yuko bari kurahira.

Icyapa kigaragaza y'uko aha ari gereza iherereye i Muhanga bajyanayo inzererezi ndetse n'abantu bananiranye n'abakoze ibyaha.

hafi aho muri iyi mye israhel ryaza bafashe undi uryamye mu ngobyibisa kumukorera ubutabazi bw'ibanze

Abana naba mama bicaye bambaye utugofero tw'umuhondo hirya hari abagabo bahagaze ku myenda y'umukara n'imirongo y'icyatsi kibisi bisa n'ubutabazi bwibanze.

Abagabo benshi bambaye imyenda y'uburu bwijimye, inkweto z'umukara, ingofero zishushanyijeho ndetse n'ibendera ry'igihugu, ku kaboko k'ibumoso bafite imbunda mu ntoki zabo.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umukara iparitse ku mbuga bigaragara yuko ari iy'abashinzwe umutekano wo mu gihugu cy'u Rwanda.

Abashinzwe umutekano bari kugenda ku modoka ifite ibara ry'umweru n'umukara inyuma yabo hakaba amamoto manini yabo.

Umuhanda uhagazemo amamoto menshi, harimo abagabo bambaye utugofero tw'umutuku ndetse n'abandi bashinzwe umutekano babari imbere.

Uyu ni umugore usa nk'ukuze, yambaye ishati y'umweru, arigusohoka mu modoka y'umukara. Bigaragara ko ari umuyobozi muri Leta.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara, bambaye neza, barimo barareba imbere yabo, bigaragara yuko hahagaze undi, arimo kubakoresha inama ku bintu bitandukanye.

Umugabo wambaye ikote ryijimye n'ishati y'umweru yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi bigaragara yuko ari kumwe n'abandi mu nama.

Ibendera rigizwe n'amabara atatu ariyo umutuku, umweru ndetse n'ubururu hakaba handikishijwemo inyuguti z'umukara: f ,p na r.

Abantu benshi bahagaze ku murongo berekeza ahantu hari amahema atatswe n'amabara y'ubururu, n'cyatsi, umuhondo bigaragara ko bari mu matora.

Abagabo babiri bambaye amakote y'ubururu bwijimye n'amashati y'umweru ibirahure byo mu maso, bahagaze impande y'ibendera ry'igihugu bafite ibitabo by'umutuku biriho ibimenyetso.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imikara, bazengurutse amameza ariho za mudasobwa, imbere yabo hari indangururamajwi n'amacupa y'amazi, bigaragara yuko bari mu nama mpaka.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yicaye ku ntebe isa ivu, inyuma ye hari abagabo benshi barimo baraseka bigaragara yuko bishimye.

Abagore bane bahagaze impande y'amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, ari guseka bigaragara y'uko ari abayobozi bagiye batandukanye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari indangururamajwi na mudasobwa n'uducupa tw'amazi, bigaragara yuko bari mu nama y'abayobozi.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza akozwe mu mbahovu inyuma hakaba amabendera y'igihugu bigaragara yuko hari abayobozi bari mu nama.

Aba mama bambaye imikenyero abagabo b' amakote bahagaze ahantu hamwe ari benshi uwo bigaragara n'itsinda runaka.

Umugore usa nk'ukuze yambaye ikote ry'umukara n'ishati yijimye, isaaha ku kaboko, ibirahuri mu maso yicaye ku ntebe.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru ahagaze yazamuye akaboko, imbere hari indangururamajwi afashe kuri raporo y'igihugu cy'u Rwanda ari kurahira.

Umugabo wambaye ishati y'umukara nurunigi mu ijosi, ndetse n'umukenyero, afite indangurura majwi ahagaze imbere yabandi bicaye.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda isa y'umweru n'amapantaro y'umukara ariko umwe afite icumu mu ntoki ze ndetse n'ingabo.

Imbuga ihagazemo ibinyabiziga binini bifite amabara y'umweru bikunda kwikorera imizigo myinshi cyane, inyuma hakaba shitingi isa ubururu.

Umuhanda mugari uragendamo ikinyabiziga gifite ibara ry'ivu bigaragara ko gikoreshwa n'abarimo barigisha abantu imodoka n'amategeko.

Umuhanda mugari, urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, aribyo moto, amagare n'imodoka y'umweru ndetse n'iy'umukara, ziheka imizigo inyuma.

Amasaha y'amanywa ibimodoka bitwara abantu benshi birahagaze uko bisa bitegereje abagenzi babijyamo.

Imodoka nini irimo iragenda mu muhanda, ifite amabara ya oranje n'umweru n'umukara, itwaye abantu benshi harimo abicaye ndetse n'abahagaze.

Umuhanda mugari urimo uragendamo ibinyabiziga bitandukanye, moto imodoka ndetse n'amagare ibikamyo binini bigenda kure.

Ibinyabiziga bibiri by'imodoka ariko zitandukanye mu mubyimba imwe nini ifite ibara ry'icyatsi itwara abantu benshi indi ntoya isa umweru.

Umuhanda mugari harimo kinyabiziga kinini gikikijwe na shitingi y'ibara ry'icyatsi gikunze kwikorera ifuka ry'amakara cyangwa se y'ibirayi.

Umuhanda mugari, urimo uragendamo kinyabiziga gifite ibara ry'umweru, bigaragara ko kigemura amazi ahantu hatandukanye.

Umuhanda mugari urimo uragendamo moto itwawe n'umugabo wambaye ijire y'ubururu n'umuhondo, ingofero yo mu mutwe, ahetse umumama w'umupira w'ubururu n'ijipo y'umukara.

Umuhanda mugari, ku ruhande haparitse ibinyabiziga bitandukanye, ari byo moto iriho umugabo wambaye aka gofero k'umuhondo, n'ijire y'ubururu, hirya utumoto tugendera ku mapine atatu.

Umuhanda mugari urugendomo ibinyabiziga bitandukanye imodoka imwe ifite amabara y'icyatsi itwara abagenzi benshi abicaye ndetse n'abahagaze.

Umuhanda mugari harimo haragendaho imodoka kandi ifite ibara ry'umweru imbere n'inyuma bikaba bigaragara yuko itwaye amazi.

Ikinyabiziga gitwara abantu benshi abicayeyi n'abahagaze gifite ibara ry'umweru gitatswe na oranje gihagaze impande y'akazu abagenzi bicaramo.

Umuhanda mugari urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, hari imodoka ebyiri zitwara imizigo. Inyuma iy'umweru, umukara ndetse na moto ziriho abamotari.

Umuhanda mugari urimo uragendamo ipikipiki isa umutuku n'umukara itwaye abagabo babiri, uwambaye ipantaro y'umweru ndetse n'utugofero tw'umuhondo mu mutwe.

Hoteri yitwa Regasi hoteri aho iherereye ikaba ifite amarangi y'umuhondo ndetse avanze na y'umweru, ikaba iri ahantu heza cyane ku muhanda hari amahumbezi hateye n'ibiti bishobora gutanga akayaga.

Umuhanda mugari, uragendamo ikinyabiziga kinini gitwarwamo abagenzi benshi, ari cyo imodoka, ifite amabara y'icyatsi, umweru, n'ubururu, inyuma yayo hakaba moto n'amagare.

Umuhanda mwiza kandi ufite isuku bashyizeho akayira k'abanyamaguru gahagije, bamwe baratambuka abandi nabo bagakora imyitozo ngororamubiri, ku mpande hariho inyubako ikorerwamo n'ikigo cyitwa radiyanti gikora ibigendanye n'ubwizigame ndetse no kwishinganisha.

Umuhanda mugari, urimo uragendamo imodoka ifite ibara ry'umweru, itwawe n'umugabo yambaye shitingi y'umukara, uko bisa itwaye imizigo nk'ibirayi, ibijumba cyangwa se amakara.

Ikimodoka kinini gisa umweru n'ubururu, gitwaye inyuma amatiyo menshi asa umukara, anyuramo amazi.

Imodoka nini ifite ibara ry'umweru itwara mu mazi cyangwa se ibindi bintu bisukika irimo iragendera mu muhanda w'umukara.

Ikimodoka cyinini gitwara abagenzi benshi bagifite amabara bagiye atandukanye, banditseho inguzanyo kurusha izindi nawe wagera iyawe.

Imodoka ifite amabara y'umweru, umukara ndetse ikaba itwara abagenzi batarenze bane.

Umuhanda mugari w' ura ugendamo ibinyabiziga bibiri binini, bitwara imizigo myinshi, gifite ibara ry'umutuku n'ikindi gisa umukara.

Umuhanda mugari urimo uragendamo amamoto atatu, imwe umugabo yambaye akagofero k'umutuku, n'akandi afite mu ntoki, n'ijere y'umuhondo.

Umugabo uri mu muhanda mugari, yambaye imyenda y'ubururu; ari gusunika igare ririho imizigo, bigaragara yuko ariko kazi akora umunsi ku wundi.

Ikinyabiziga kinini gifite ibara ry'umweru n'iry'ubururu; kiri kugenda mu muhanda; bigaragara yuko gitwaye amazi yo gukoresha ahantu bubaka ndetse no mu rugo.

Umuhanda mugari ugendamo imodoka nini isa umutuku, itwara abagenzi benshi. Imbere yayo hakaba abagabo babiri, bari ku magare.

Ku kibuga gisubirwamo umupira w'amaguru cy'ibyatsi kirimo abantu benshi barimo barakina aha haza abahungu n'abakobwa batandukanye.

Ikibuga gifite ibara ry'icyatsi n'umutuku biciyemo imirongo y'umweru, hakunda gukinirwa umukino w'amaboko bagenda badunda umupira barangiza bakajugunya.

Icyapa kiri mu muhanda, kigaragaza yuko aha hatemewe kunyura ibinyabiziga binini bihetse imizigo, cyangwa byikoreye, biremereye.

Icyapa gifite urukiramende ruzungurutse rw'umutuku harimo umugabo usa nk'uri kuyobora, gikunda gushyirwa mu muhanda kigaragaza yuko hari gukorwa ubwubatsi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande n'utundi tw'umuhondo hagati aranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Iyapa gifite mpande eshatu, zizengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati umweru harimo abana babiri, bafite udukapu bari kugenda, gishyirwa mu muhanda kigaragaza y'uko imbere hambukirwa.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara, gishyirwa mu muhanda cyereka abatwazi cyangwa se abayobozi b'imodoka ko bakata iburyo.

Icyapa gikunda gushyirwa mu muhanda kigaragaza yuko aha ntabinyabiziga bikoresha moteri byemerewe kuhagera cyangwa kuhanyura.

Icyapa cyiri mu ibara ry'ubururu mu nyuguti ya P cyandikishijwe mu nyuguti y'umweru ya P gikunda gushyirwa ahantu ahariho hose bigaragaza y'uko abantu bemerewe guhagarara batwaye ibinyabiziga.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo ryandikishijwemo umukara, gishyirwa mu muhanda kigaragaza yuko imbere hari ikoni rikata iburyo, cyereka abatwazi b'ibibinyabiziga.

Icyapa kiri mu muhanda cy'ibara ry'igihu, cyanditseho ko bageze mu karere ka Bugesera gitandukanya uturere.

Umuhanda mugari urimo uragendamo imodoka zitandukanye, umukara, umweru ufite umuhondo hasi bigaragara y'uko abantu bazitega.

Umugabo munini wifotoje atishimye cyane yambaye ishati ijya gusa umweru yambaye na karuvati irimo utudomo tw'umutuku, uyu mugabo yambaye umwambaro w'akazi uko bigaragara ni umwavoka cyangwa se akaba ari umucamanza.

Umuhanda mugari urimo uragendamo ikinyabiziga, imodoka ni iy'umukara irimo iratambika ikata iburyo itwawe n'umugabo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijeho inyuguti n'imibare y'umukara arizo kaka gatanu icyenda sata kiri ku muhanda.

Umudugudu uteyemo ibiti byinshi birebire, inyuma hakubakwa inyubako zigiye zitandukanye mu mabara ubwiza, zifite umweru umutuku ndetse n'umukara.

Abantu benshi bari kugenda bahagaze munsi y'imitaka bicaye ku mu ma moto biragaragara yuko baherereye mu gace ka Giporoso.

Moto ndetse n'imodoka bihagaze imbere y'inzu icururizwamo ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa by'ibanze ndetse ni mu muhanda w'ibitaka umanuka.

Inyubako zubatswe ku muhanda zikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, hanze hahagaze imodoka zamabara atandukanye y'umukara n'umweru ndetse n'icyatsi.

Umudugudu urimo inyubako zigerekeye kenshi uherereye mu mujyi wa Kigali aho bita i Kibagabaga.

Inyubako nziza ifite imbuga nini iparitsemo ibinyabiziga bibiri icy'umweru n'ik'ivu gusa ni ndende igerekeye kabiri y'amabati asa oranje.

Umuhanda mugari urimo uragendamo ikinyabiziga gifite amabara umukara, umweru ndetse n'ubururu ariko gitwara imizigo myinshi gikururanye.

Mu muhanda, indabyo, amapoto, ibiti, imikindo, imodoka insinga.

Umuhanda mugari w'umukara, unyuzemo imirongo y'umweru itambitse, bigaragara yuko ari ho abagenzi bakoresha bari kwambukiranya impande.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri z'umukara ndetse na moto imwe n'indi y'umweru n'abagabo barimo barambukiranya impande hirya no hino.

Imihanda migari itandukanjwere n'indabo ndetse n'ibiti by'ibikingo biteye hagati hirya hari kugenda mo moto.

Umuhanda mugari urimo uragendaho moto isa umutuku, yicayeho umugabo wambaye jile y'ubururu n'icyatsi ndetse na kagofero k'umuhondo.

Abantu bari gukoresha inzira yabugenewe yo kwambukiranya imihanda barimo baratambuka, imbere yabo hakaba amamoto ahetse abagenzi.

Umuhanda mugari urimo uragendamo ibinyabiziga bitandukanye, ari byo moto ndetse n'imodoka ifite ibara ry'ivu hirya hari amatara.

Umuhanda mugari uri kugendamo moto n'imodoka, hirya hari igikamyo kinini cy'umutuku, kigiye gushiramo amavuta agifasha kugenda.

Umuhanda unyuze hejuru y'uwundi munsi hari kugenda imodoka ntoya iri mu ibara ry'umukara.

Ishusho igaragaza inoti nshyashya y'ibihumbi bitanu y'amafaranga y'u Rwanda. Hariho ibirango byinshi bitandukanye hariho agaseke ndetse n'umwana.

Umuhanda mugari urimo imodoka ihagaze, kubera umusaza uri kwambukira mu mirongo itambitse, aho abagenzi bagenewe kunyura.

Amasaha ya nijoro ari Kicukiro mu muhanda unyura hejuru, imihanda amatara arimo araka, hagendamo ibinyabiziga bitandukanye.

Umuhanda mugari urimo imirongo y'umweru itambitse ndetse n'amatara ari kwaka amabara agaragaza uko abagendesha amaguru n'ibinyabiziga bakoresha inzira.